Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha umuyoboro wawo kuba bakumvikana ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha uwo muyoboro kuba bakumvikana, ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta, mu gihe bakora akazi kabo ka buri munsi.

Uyu munara ni uw'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bifashisha umuyoboro kandi n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta, bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara wa rimwe mu masosiyete y'itumanaho aho ufasha abazikoresha kuba bakumvikana, igihe bahamagarana ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta bikaborohereza mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bifashisha uwo muyoboro ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Airtel nk'uko tubibona ku cyapa, ikaba ifasha abakoresha uwo muyoboro kuba bakumvikana neza igihe bari guhamagarana ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho. Aho ufasha abakoresha uwo umuyoboro, kuba ikoranabuhanga rirushaho kwihuta mu gihe barikoresha mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse bahamagarana bakumvikana.

Uyu munara ni uw'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bahamagarana bifashishije telefone cyangwa se n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uy'umunara ni umwe muya sosiyete y'itumanaho aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana ndetse n'ibikorwa by'ikoranabuhanga bikihuta.

Uyu munara muremure tubona hano ni uw'umwe muri sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana ndetse no mu gihe bakoresha ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uyu munara muremure tubona ni w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana, igihe bahamagarana ndetse n'ikoranabuhanga, rikarushaho kwihuta, bikaborohereza mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uyu munara ni uw'umwe muri sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abakoresha umuyoboro kuba bakumvikana ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta, bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu munara ni uw'imwe mu masosiyete y'itumanaho ufasha abakoresha uwo muyoboro kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana, ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana ndetse n'ikoranabuhanga bikarushaho kwihuta, kandi bikaborohereza mu kazi kabo ka buri muns.i

Uyu munara ni uwimwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha umuyoboro ku bakumvikana mu gihe bahamagarana, ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta, bikaborohereza mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uyu munara ni uw'umwe mu masosiyete y'itumanaho aho ufasha abakoresha umuyoboro kuba bakumvikana igihe bahamagarana ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bari kurikoresha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hano turahabona umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bakoresha uwo muyoboro kandi n'ikoranabuhanga rikihuta, bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu byerekezo bitandukanye mu ngo z'abaturage ndetse no mu mazu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha benshi mu mirimo yabo ya buri munsi, cyane ko baba bashobora gukora mu masaha ya nijoro habona kandi bizeye umutekano wabo.

Muri uyu muhanda turahabona amatara menshi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, cyane ko nk'abakora akazi mu masaha ya n'ijoro, cyangwa ingendo baba bumva batekanye bitewe n'uko aho banyura haba habona.

Izi nsinga tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage nk'uko bigaragara bikaba bifasha benshi mu mirimo yabo ya buri munsi kandi akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona itara ryo ku muhanda, bikaba bigaragaza ko igihugu giteye imbere bitewe n'uko byorohereza abagituye mu ngendo zabo ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi, mu gihe bari kugenda mu masaha ya n'ijoro kumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage nk'uko bigaragara akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko mu masaha ya nijoro ahantu henshi haba habona kandi bigafasha no mu mutekano w'abagituye.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni izijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage, nk'uko bigaragara kaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi kandi bakumva batekanye bitewe n'uko mu masaha ya nijoro baba bacanye ahantu hose habona.

Hano turahabona matara ashyirwa ku mihanda, aho ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu, ikindi bikorohereza abagituye, mu gihe bari kugenda mu masaha ya nijoro kumva batekanye, bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda itandukanye, aho ari kimwe mu bikorwa bigaragaza ko Igihugu cyateye imbere cyane, kuko bifasha abakora akazi ha mu masaha ya nijoro cyangwa se ingendo, kuba bumva batekanye bitewe nuko haba habona.

Muri uyu muhanda turabonaho amatara agiye ari ahantu hatandukanye, aho abafasha abakora akazi baba abataha mu masaha ya nijoro cyangwa se n'abagakomeza, kugenda bumva bafite umutekano bitewe n'uko haba habona kandi bikanagaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi, nyinshi kandi zijya mu byerekezo bitandukanye aho ziwujyana mu ngo z'abaturage, akaba ari igikorwa cy'iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi, no mu masaha ya n'ijoro bakumva batekanye bitewe n'uko habona.

Izi ntsinga nyinshi tubona, ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo z'abaturage zitandukanye, ndetse n'andi mazu akorerwamo imirimo nk'iy'ubucuruzi, ndetse n'ibindi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo z'abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi, bikaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bikorohereza abagituye mu byo bakora.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni izo umuriro w'amashanyarazi uko turi kubibona ziwujyana mu byerekezo bitandukanye mu ngo z'abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye bikaba ari uburyo bufasha abaturage mu bikorwa byabo bya buri munsi kandi akaba ari na kimwe mu bigaragaza ko igihugu cyateye imbere.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu ingo zitandukanye z'abaturage nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye bikaborohereza mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi nyinshi aho ziwujyana mu ngo z'abaturage batandukanye nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bigafasha n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uyu mutaka tubona hano ni uwa sosiyete y'itumanaho ya MTN ,aho ari uburyo bworohereza abaturage kuba babona aho bagurira amainite ,kubitsa amafaranga ,kuyabikuza ndetse n'ibindi mu buryo bworoshye.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage. Akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko bifasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse no mu masaha ya nijoro bakaba batekanye bitewe n'uko haba habona.

Izi nsinga tubona hano ni iz' umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, nk'uko bigaragaragara, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko binafasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi, ndetse no mu masaha ya nijoro bakumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona amatarashyirwa ku mihanda akaba afasha abawukoresha baba abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka ibinyabiziga nabyo bigahagarara mu gihe hari abari gutambuka nabyo bikabona kugenda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye ndetse n'akavuyo mu muhanda.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo z'abaturage zitandukanye nk'uko bigaragara akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko byorohereza abagituye, mu mirimo yabo ya buri munsi kandi no mu masaha ya nijoro bikabafasha mu mutekano wabo cyane ko haba habona.

Izi nsinga tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi zikaba ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza ko igihugu cyateye imbere, cyane ko bifasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi, ndetse no mu masaha ya n'ijoro kubera ko haba habona bakaba bumva bafite umutekano.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ziganjemo iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage akaba ari igikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abagituye mu mutekano yabo mu masaya ya nijoro bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu, cyane ko bifasha abakora nk'ingendo nijoro baba bavuye mu kazi cyangwa mu bindi, kuba bumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Izi nsinga tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, ziri mu mazu akorerwamo ubucuruzi nk'uko bigaragara, bikaba bifasha abaturage mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse bikagaragaza iterambere ry'igihugu.

Izi nsinga nyinshi tubona ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage nk'uko bigaragaraba, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko bifasha abagituye kuba bumva batekanye nko mu masaha ya n'ijoro bitewe n'uko haba habona.

Izi nsinga ziri hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi nk'uko tubibona ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, cyane ko byorohereza abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse bakumva batekanye bitewe n'uko mu masaha ya nijoro haba habona.

Iyi mitaka tubona hano ni iya sosiyete y'itumanaho ya MTN nk'uko bigaragara no ku cyapa kinini kiri inyuma yaho. Aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere nko kuba babitse amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amainite yo guhamagara ndetse n'ibindi.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, kandi ibi bikaba ari bimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bikorohereza n'abagituye mu kazi bakora, no mu masaha ya nijoro bakaba bumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona amatara yo ku mihanda bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko bifasha abagituye kuba bumva batekanye baba bava mu kazi cyangwa se abakora ingendo za nijoro bitewe n'uko haba habona bakaba bizeye neza umutekano wabo.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bikorohereza n'abagituye mu mirimo y'abo ya buri munsi cyane ko bawukenera kenshi.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, aho bifashirizwamo abaturutse mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye ndetse tukaba turi kuhabonaho n'ibyapa bifasha abahaje kumenya aho bakwerekeza bitewe n'ubufasha bakeneye.

Iyi ni imbangukiragutabara, ikaba ari imodoka yifashishwa mu mavuriro atandukanye kugira ngo ibe yatabara mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane ikamugeza aho afashirizwa.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu Karere ka Huye. Nk'uko tubibona no ku byapa, bikaba ari bimwe mu byoherezwamo abaturutse mu duce dutandukanye tw'Igihugu, kugira ngo bafashwe bitewe n'uburwayi bafite.

Izi modoka tubona hano imbere y'ibi bitaro, ni imbangukiragutabara zikaba zifashishwa mu mavuriro atandukanye, aho zifasha umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane kubazamugeza aho afashirizwa byihuse.

Iriya modoka tubona hano imbere y'ibitaro ni imbangukiragutabara, aho ikoreshwa mu mavuriro atandukanye kugira ifashe mu gihe hari umurwayi ukeneye ubutabazi bwihutirwa cyane kuba yagezwa aho afashirizwa mu buryo bworoshye.

Hano turahabona akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse turahabona n'abaturage bari gufashwa mu buryo butandukanye nko kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura ama inite yo guhamagaza n'ibindi.

Iri ni Ivuriro rifasha abaturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'uRwanda kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye. Turahabona ibyapa bibafasha gusobanukirwa aho bajya bitewe n'uburwayi bafite.

Ibi ni ibitaro nkuko tuhabona hari imbangukiragutabara, akaba ari imodoka zifashishwa n'amavuriro atandukanye, kugira ngo zifashe mu gihe hari umurwayi ukeneye ubutabazi bwihutirwa cyane, kuba yagera aho afashirizwa byihuse.

Ibi ni ibitaro bya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, biherereye mu Karere ka Huye, mu Ntara y'Amajyepfo;, ndetse tukaba tuhabona ibyapa bifasha ababigana kubona aho bafatira ubuvuzi bakeneye mu buryo bworoshye.

Iyi ni imbangukiragutabara akaba ari imodoka yifashishwa mu mavuriro atandukanye aho zifasha abarwayi bakeneye ubutabazi bwihutirwa kuba bazabageza aho bafashirizwa bitagoye.

Izi modoka nyinshi tubona hano ni imbangukiragutabara zifashishwa mu mavuriro atandukanye, aho zifasha mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane, kuba yamugeza aho afashirizwa byihuse.

Iyi modoka tubona hano ni imbangukiragutabara ikaba ari izifashishwa mu mavuriro atandukanye kugira ngo ibe yatabara mu gihe hari umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa ikamugeza aho afashirizwa kandi byihuse.

Aya ni amarembo yinjirira muri gereza ya Rubavu nk'uko bigaragara, aho ishyirwamo abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe kandi batozwe n'imirimo kugira ngo nibasohoka bazakore ibifitiye igihugu akamaro.

Iyi ni gereza aho tubona abagororwa bari gukora imirimo itandukanye bamwe bakaba bagiye kuvoma nk'uko bigaragara, akaba ari hamwe mu hashyirwa abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe kandi bigishwe nibasohoka bazakore imirimo yo guteza imbere igihugu ndetse nabo ubwabo.

Iyi nyubako nini tubona hano ni gereza ndetse hakaba hari n'abagororwa nkuko tubareba, bakaba bashyirwamo bitewe n'ibyaha bitandukanye bakoze kugira ngo bagororwe kandi bigishwe imirimo inyuranye, nibafungurwa bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro ndetse na bo ubwabo biteza imbere.

Iki cyapa cyerekana amarembo yinjira mu igororero rya Rwamagana, hakaba ari hamwe mu hashyira abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe kandi bigishwe imirimo itandukanye, uzasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro ndetse na bo biteza imbere.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, byumwihariko mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Hano turahabona amacupa abikwamo umwuka yifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba agomba guterekwa ahahurira abantu benshi bo mu bigo by'amashuri, mu mavuriro mu nsengero, mu masoko n'ahandi kugira ngo abe yakwitabazwa igihe habayeho icyo kibazo.

Hano turahabona umupolisi akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwa kuzikora.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rigomba guterekwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu nsengero n'ahandi kugira ngo ribe ryakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya ni amacupa abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro. Akaba agomba guterekwa ahahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri ,mu mavuriro, mu nsengero ,mu masoko n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano ni hamwe muhakorerwa impushya zo gutwara ibinyabiziga bya moto nk'uko turi kubibona hari abaje gukora kandi hari n'ababafasha, akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo barebe ko bubahiriza amategeko baba barize.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ufasha mu muhanda, aho yibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka zitandukanye cyangwa se kuzikora.

Hano turahabona abanyeshuri bari gutozwa gukoresha icupa ribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho imyitozo bahabwa bashobora kuyifashisha mu gihe habayeho icyo kibazo hategerejwe ubundi butabazi bw'isumbuyeho.

Hano turahabona amacupa abiri akaba arimo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, ndetse akaba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi, nkuko tubibona hano ari ni mu nzu icururizwamo ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa kugira abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano turi kuhabona uri gukora ubukangurambaga afasha abanyeshuri, kumenya uko bakoresha icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro kugira ngo babe baryifashisha mu gihe habayeho icyo kibazo, hagitegerejwe ubutabazi bwisumbuyeho.

Hano turahabona abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u rwanda by'umwihariko wo ku muhanda aho bafasha kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko bagenga mu rwego rwo kwirinda kuba bateza impanuka.

Iri cupa ntiribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rigomba guterekwa ahahurira abantu benshi, nko mu masoko, mu mavuriro mu bigo by'amashuri, mu nsengero, n'ahandi kugira ngo ribe ryakwitabazwa mu gihe havutse icyo kibazo.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu nsengero, mu mavuriro, mu masoko ndetse n'ahandi kugira ngo ribe ryakwitabazwa mu gihe habayeho icyo kibazo hategerejwe ubundi bufasha bwisumbuye.

Aba ni abapolisi akaba ari bamwe mu barinda umutekano w'Igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka gukomeza kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Hano turahabona abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu by'umwihariko uwo mu muhanda aho bafasha mu kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko abagenga, birinda guteza impanuka.

Aya macupa ni abikwamo imyuka yifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro aba agomba guterekwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu nsengero, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi kugira abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa tubona hano, ni abamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi, nko mu bigo by'amashuri, mu nsengero, mu mavuriro n'ahandi, kugira ngo abe yakwifashishwa mu gutabara, igihe habayeho icyo kibazo.

Aya ni amacupa abamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho agomba guterekwa ahahuriye abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri, mu nsengero n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu butabazi igihe habayeho icyo kibazo.

Aha ni aho umukandida w'ishyaka rya FPR yari ari kwiyamamariza nk'uko tubibona ku byapa, abaturage bafite ndetse n'imyambaro, kandi bikaba bigaragaza ko bari bamushyigikiye bari kumwereka urukundo, ndetse akaba ari nawe uyobora igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe.

Hano turahabona abaturage bafite ibyapa byamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR ndetse n'imyambaro bambaye ikaba ibigaragaza aho bari bamushyigikiye kandi akaba ari nawe we watorewe kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba hari mu gihe cy'amatora, aho na we yari amaze kuyitabira, uko turi kubibona hano ndetse akaba ari nawe watorewe kuyobora iki gihugu.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u rwanda aho yari ari kwiyamamariza kuyobora ndetse nk'uko turi kubibona inyuma ye abaturage bari benshi cyane baje kumwereka urukundo bamushyigikiye kandi bakaba baramutoye agatsinda amatora.

Aba baturage bari bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya efuperi nkuko tubibona ku byapa bafite ndetse n'imyambaro bambaye ko bigaragara bakaba bari bamwishimiye kandi bari kumwereka urukundo.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yarari kwiyamamariza kuyobora, ndetse nk'uko bigaragara, abaturage turabona ko bamwishimiye bamugaragariza urukundo kandi ko bari bamushyigikiye.

Aba baturage bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR nk'uko tubibona ku byapa ndetse n'imyambaro bambaye, aho bigaragara ko bari bari kumushyigikira kandi bamwereka urukundo.

Aba baturage turi kubona hano, bari bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR nk'uko tubibona ku myambaro bambaye ndetse n'ibyapa kandi akaba ari we watorewe kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Aha ni aho umukandida w'Ishyaka rya FPR yari ari kwiyamamariza nk'uko tubibona ku byapa ndetse n'imyambaro abaturage bari bambaye, kandi turabona ko ari benshi bari baje kumushyigikira ndetse akaba ari na we watorewe kuyobora Igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe.

Aba baturage ni abari bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR nk' uko tubibona ku byapa bafite ndetse n'imyambaro, aho bamwerekaga urukundo kandi ko bamushyigikiye ndetse akaba ari we watorewe kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari kwiyamamariza amatora kandi nk'uko bigaragara abaturage bari baje kumushyigikira ari benshi, bamwereka urukundo ndetse akaba ari nawe batoye.

Uyu ni umukandida w'ishyaka FPR aho yari ari kwiyamamariza kuyobora, nk'uko bigaragara inyuma ye hari abaturage benshi baje kumushyigikira kandi bamwereka urukundo, akaba ari na we uyobora igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe.

Uyu ni umukuru w'Igihugu aho yari ari kwiyamamariza kuyobora ndetse nk'uko tubibona abaturage bari benshi baje kumushyigikira, bamwereka urukundo, akaba ari nawe watsinze amatora.

Hano ni ahari kwamamarizwa umukandida w'ishyaka rya efuperi nkuko turi kubibona, n'abaturage bari benshi cyane baje kumushyigikira kandi bari kumwereka urukundo ndetse akaba ari nawe watowe uyobora igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo bworohereza benshi, by'umwihariko abajya mu kazi bashaka kuhagera ku gihe, bitewe n'uko bwihuta.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, aho ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko nk'abakeneye kugera aho bajya bakahagera ku gihe, kubera ko bwihuta kandi budahenze.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikora mu mugi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, aho byorohereza abakora ingendo kugera aho bajya biboroheye kandi bidahenze.

Iyi modoka nini tubona aha, ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali mu gutwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, kandi bikorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri, abajya mu kazi n'ahandi kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya kandi budahenze.

Hano turahabona bamwe mu batwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto, buba ari uburyo bworohereza benshi, by'umwihariko nk'abajya mu kazi bakeneye kukagereraho ku gihe, kuko bwihuta kandi bukaba budahenda.

Hano turahabona moto nini yifashishwa mu mirimo itandukanye, nko gutwara imizigo aho abacuruzi bayikoresha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo, aho ababiguze batuye cyangwa se bakorera.

Iyi kamyo tubona hano ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho yifashishwa n'abakora umwuga w'ubwubatsi kuba bashyiramo umucanga, amatafari, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka nini cyane tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa kigali mu gutwara abagenzi rusange zikaba zifasha abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo buborohereza bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Izi modoka tubona hano ni izo bamwe bifashisha mu gihe bakeneye kujya ku rugendo badashaka kugenda mu zitwara abagenzi rusange bakagenda bisanzuye kandi zikabageza aho bagiye neza.

Muri uyu muhanda turahabona ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto, akaba ari zimwe muzohereza abantu mu gihe bagiye nko ku kazi cyangwa ahandi bashaka kuhagera ku gihe cyane ko ari uburyo bwihuta kandi budahenze.

Iki kinyabiziga cya moto tubona hano ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi nkuko bigaragara; bikaba bifasha mu kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi bihumanya ikirere.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zipakira ibintu byinshi cyane kandi biremereye aho abubaka bakunze kuyifashisha gutwaramo umucanga wo kubakisha, amabuye ndetse n'ibindi.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, aho zorohereza abakora ingendo za buri munsi by'umwihariko kugera aho bajya byoroshye kandi bidahenze.

Hano turahabona ibinyabiziga byiganjemo moto, akaba ari kimwe mu byo abantu bakunze by'umwihariko nk'abakeneye kwihuta bajya mu kazi kuba bahagera ku gihe, kubera ko ari uburyo bwihuta kandi buhendutse.

Iyi bisi nini tubona hano ni imwe mu zifashishwa mu mujyi wa Kigali aho zitwara abagenzi rusange zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi. Bikaba byorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri bagiye ku kazi kugera aho bajya mu buryo buboroheye.

Iyi moto tubona hano, n'imwe mu zifashishwa mu gutwara nk'imizigo cyane cyane abacuruzi bakazikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze, barimo uduce dutandukanye cyangwa se no mu gihe bavuye kurangura bikaborohereza kubigeza aho bakorera.

Hano turahabona bamwe mu batwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto by'umwihariko icyo turi kubona hano hafi, ni igikoresha umuriro w'amashanyarazi, akaba ari kimwe mu byo igihugu cyifuza cyane ko bituma hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Hano turahabona utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe bashaka kwihuta nk'abajya mu kazi bakeneye kukagereraho ku gihe kandi bukaba butanahenze.

Iyi modoka n'imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abajya mu kazi cyangwa abanyeshuri kugera aho bajya biboroheye.

Iyi moto tubona hano ni imwe muzifashishwa mu gutwara imizigo, by'umwihariko abacuruzi bakayifashisha kugira ngo bageze ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze, birimo nk'amabati, amatiyo ndetse n'ibindi.

Aba ni bamwe mu batwara abagenzi bakoresheje ibinyabiziga bya moto, bukaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko nk'abagiye mu kazi, mu gihe bashaka kukagereraho ku gihe, kubera ko bwihuta kandi bukaba budahenze.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikora mu Mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi, bukaba ari uburyo bworohereza abagenda buri munsi nk'abanyeshuri, abajya mu kazi kubona uburyo bagerayo byoroshye.

Iyi modoka nini tubona hano ndetse n'iziri imbere yayo, ni zimwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange, zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza abantu benshi, by'umwihariko abakora ingendo za buri munsi, kugera aho bajya mu buryo bworoshye kandi buhendutse.

Iyi modoka tubona hano nini ni imwe mu zifashishwa mu gupakirwamo ibintu biremereye kandi byinshi aho abubaka bakunze kuyifashisha bashyiramo umucanga, amabuye yo kubakisha ndetse n'ibindi.

Iyi kamyo nini tubona hano, ni imwe muzifashishwa bitewe n'uko ipakira ibintu byinshi cyane kandi biremereye, aho abakora umwuga wo kubaka bayifashisha kugira bashyiremo umucanga, amatafari, ndetse n'ibindi.

Hano turahabona umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto kandi akaba ari kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho bifasha mu kubungabunga ibidukikije, cyane ko nta byotsi byangiza ikirere ziba zifite.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zitwara ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubaka bakunze kuyifashisha bayipakiramo umucanga, amabuye, ibitaka ndetse n'ibindi..

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya byoroshye.

Izi modoka nini tubona hano, ni zimwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, mu gutwara abagenzi rusange aho zorohereza abakora ingendo za buri munsi, nk'abajya mu kazi, abanyeshuri ndetse n'abandi kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya.

izindi moto nini ziyifashishwa mu mirimo itandukanye by'umwihariko mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bazikoresha bashaka kugeza ibicuruzwa byabo hirya no hino ku babiguze, ndetse no mu gihe baba bavuye kurangura zikabibagereza aho bakorera.

Iyi moto nini tubona aha ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo aho abacuruzi bayikoresha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze cyangwa aho bakorera.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu bifashishije ikinyabiziga cya moto nk'uko tubona aho bahagarara bategereje abo batwara kandi bukaba ari uburyo bworohereza benshi nk'abakeneye kugerera ku kazi ku gihe kubera ko bwihuta.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bikorohereza n'abatwara ibinyabiziga kumenya igihe cyo guhagarara kugira ngo babe bakwirinda gukora impanuka.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, uko tubibona ikaba ikunze kwifashishwa n'abacuruzi bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo aho bakorera mu gihe bavuye kurangura cyangwa kubigemurira ababiguze bari mu duce dutandukanye.

Iyi modoka nini tubona aha ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, ndetse bikorohereza n'abakora ingendo za buri munsi kugera aho bajya biboroheye.

Iyi kamyo ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubaka bakunze kuzifashisha mu gutwaramo umucanga, amabuye yo kubakisha n'ibindi.

Muri uyu muhanda turahabona moto nini, ikaba ari imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, by'umwihariko abacuruzi bakayikoresha bagenewe kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze.

Hano ni ahategerwa imodoka zitwara abagenzi rusange, zibajyana mu duce dutandukanye tw'igihugu, bigafasha abakeneye gukora ingendo kubona uburyo bagera aho bagiye, bitabagoye.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, aho by'umwihariko abacuruzi bayikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ndetse no ku babiguze cyangwa se nabo bavuye kurangura, kubibagereza aho bakorera.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange mu mujyi wa kigali aho zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, kandi bikorohereza benshi by'umwihariko abakora ingendo za buri munsi kugera aho bajya mu buryo buboroheye kandi buhendutse.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe muzifashishwa mu gutwara ibintu byinshi cyane kandi biremereye, abubaka bakayikoresha bayipatimo umucanga cyangwa se amabuye ndetse n'ibindi.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali mu gutwara abagenzi rusange, zikaba zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, kandi bikorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya biboroheye.

Iyi moto nini tubona muri uyu muhanda, ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo igafasha abacuruzi kuba bageza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye, haba kubishyira babiguze cyangwa se nko mu gihe bavuye kurangura.

Iyi moto nini tubona hano, ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, by'umwihariko igafasha abacuruzi bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye, ku babiguze, cyangwa se no mu gihe baba bavuye kurangura, bikagera aho bakorera mu buryo bworoshye.

Iyi modoka ni imwe mu zifashishwa n'abakeneye kujya mu ngendo zitandukanye, badashaka kugenda mu zitwara abagenzi rusange, aho ziborohereza bakagenda bisanzuye kandi zikabageza aho bagiye neza.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange, bibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi ndetse bikorohereza abakora ingendo za buri munsi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya, bitabagoye kandi bihendutse.

Hano turahabona umwe mu bikorera imizigo aho afite ingorofani bifashisha mu gihe bagiye gutwara ibintu biremereye batashyira ku mutwe nk'imifuka myinshi, amakarito arimo ibintu ndetse n'amajerekani y'amavuta.

Iyi ni gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, aho ibamo ibinyabiziga bijya mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse no hanze yacyo, bigafasha abakeneye gukora ingendo kubona aho bazifatira byoroshye.

Uyu ni utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho bifasha mu kubungabunga ibidukikije hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu na akoresheje ikinyabiziga cya moto, aho ari uburyo bworohereza benshi baba bakeneye kwihuta ndetse n'abagiye ku kazi kugira bakagereho ku gihe.

Iyi modoka nini ira aha ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye cyane aho abubaka bakunze kuyifashisha bayitwaramo umucanga, amabuye, ibitaka, n'ibindi.

Hano turahabona ingorofani yifashishwa na bamwe mu bakora umwuga wo kwikorera imizigo aho iborohereza mu gihe ari ibintu biremereye badashobora gutwara ku mutwe, nk'imifuka myinshi, amakarito arimo ibintu, amajerekani n'ibindi.

Iyi modokado nini tubona hano ni imwe mu zikora mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajya mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo kubona uko bagera aho bakorera baba abanyeshuri, abagiye mu kazi biboroheye.

Hano turahabona umuntu utwaye ikinyabiziga cy'igare aho gifasha abakenewe gukora urugendo by'umwihariko abafite ubushobozi buke kubera ko ryishyurwa amafaranga atari menshi, ikindi rikifashishwa mu gutwara nk'imizigo umuntu aba atashobora kwikorera ku mutwe.

Iyi kamyo nini cyane iri hano ni imwe zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubaka bakunze kuzifashisha bazitwaramo umucanga, amatafari, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka ni imwe mu zikunze kwifashishwa n'abakeneye gukora urugendo badashaka kugenda mu zitwara abantu rusange, aho ibafasha kugenda bisanzuye ndetse bakagera aho bajya byoroshye.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, aho zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bikorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya byoroshye.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara ibintu biremereye kandi byinshi nk'uko tubibona harimo umucanga, aho abubaka bakunze kuyifashisha bawutwaramo cyangwa se amabuye, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka nini iri hano ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, ho yorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugenda byihuse kandi bihendutse.

Hano turahabona gare ahategerwa imodoka zitwara abagenzi rusange ,zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi by'umwihariko utugize Igihugu cy'u Rwanda, aho byorohereza abakeneye gukora ingendo kubona aho bafatira imodoka zibageza aho bagiye mu buryo bworoshye.

Izi modoka tubona hano ni izifashishwa na bamwe mu bakeneye gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga aho zibafasha kwitoza, gushyira mu bikorwa amategeko y'umuhanda baba barize.

Hano turahabona umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto h akaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko nk'abajya mu kazi kuba bahagera ku gihe bitewe nuko bwihuta kandi bukaba butanahenze.

Aya ni amagare akaba ari bimwe mu binyabiziga byifashishwa na benshi mu gihe bakeneye gukora urugendo by'umwihariko abafite ubushobozi buke cyane cyane ko adahenze ndetse n'abayifashisha batwara imizigo iremereye umuntu adashobora kwikorera ku mutwe.

Iyi moto nini tubona hano mu muhanda ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bayikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari ahantu hatandukanye cyangwa se nk'umuntu ushaka kwimuka udafite ibintu byinshi na we ashobora kuyifashisha.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko abacuruzi bakayikoresha bakeneye kugeza ibyo bacuruza ahantu hatandukanyejya kubishyira ababiguze.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko abacuruzi bakayikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye no ku babiguze cyangwa se mu gihe bavuye kurangura.

Iyi moto n'iyi tubona aha, ni imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko igafasha abacuruzi mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze birimo nk'amabati, amatiyo ndetse n'ibindi cyangwa se kubigeza aho bacururiza mu gihe bavuye kurangura.

Hano ni mu mujyi wa kigali umwanya wahariwe abaturage aho washyizwemo intebe zo kwicaraho kuko hari bamwe bashobora kuharuhukira kuhakorera ibindi nk'imyidagaduro cyane ko baba batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga bihanyura.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahubakiwe abaturage bashyiriweho umwanya, ndetse harimo n'intebe bashobora kwicaraho bari kuganira bari kuruhuka, cyangwa bakora ibindi bitandukanye birimo n'imyidagaduro, kandi bakumva bisanzuye bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahari umwanya wahariwe abaturage, hashyizwe intebe bashobora kwicaraho mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira cyangwa se bari gukora ibindi birimo imyidagaduro, kandi bakumva batekanye bitewe nuko nta binyabiziga bihanyura.

Hano ni mu mujyi wa kigali ahashyiriweho abaturage, hubatswe intebe ku muhanda aho bashobora kwicara bari kuruhuka baganira, bakora ibindi bitandukanye birimo imyidagaduro, kandi bakaba bumva batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga bihanyura.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahahariwe abaturage aho hubatswe intebe zitandukanye bashobora kwicaramo, mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira, cyangwa gukora ibindi birimo nk'imyidagaduro cyane ko baba bisanzuye bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Uyu muhanda wubatse mu mujyi wa Kigali aho leta yawushyiriyeho by'umwihariko abakeneye gukora imyitozo ngororamubiri; ubafasha kuyikora bumva batuje kandi batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga biba bihari byabateza impanuka.

Hariya imbere turahabona ikiraro kinini cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku mihanda, aho bifasha abatwara ibinyabiziga, kumenya umuvuduko ukwiriye bagomba kugenderaho bitewe naho bageze, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Iki cyapa ni kimwe mu bishyirwa ku muhanda kugira ngo cyerekane ahagomba guhagarara imodoka by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, ndetse n'ukeneye kuzitega akaba ashobora kubona aho yazishakira.

Aya ni amatara ashyirwa ku mihanda kugira ngo afashe abayakoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Iki ni icyapa cyerekana ahari parikingi akaba ari kimwe mu bishyirwa ku muhanda, kugira ngo bifasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bagomba guhagarara kugira ngo babe bakwirinda guteza impanuka.

Aya matara tubona hano ni ayifashishwa ku mihanda itandukanye, aho bifasha abawukoresha nk'abanyamaguru kuba bamenye igihe gikwiriye cyo kwambuka, ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakahagarara mu gihe hari abari gutambuka, nabo bakabona umwanya wo kugenda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye n'akavuyo.

Iki cyapa nikigaragaza ko nta ho guparika hahari bigafasha abatwara ibinyabiziga kuba batahagara aho babonye bose mu rwego rwo kwirinda gukora impanuka cyangwa se kuziteza.

Iki ni icyapa kiranga aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, aho gishyirwa ku muhanda kugira ngo gifashe abatwara ibinyabiziga, kumenya aho bagomba kugabanya umuvuduko cyangwa se no guhagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Iki cyapa ni ikigaragaza ahari amata ashyirwa ku mihanda, kugira ngo afashe abawukoresha kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka nko ku bagenda n'amaguru, cyagwa se ku batwara ibinyabiziga nk'uko tubibona mu mabara atandukanye ariho.

Iki ni icyapa gishyirwa ku muhanda kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, kigafasha abatwara ibinyabiziga kumenya ko bagomba kugabanya umuvuduko cyangwa se no kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo babe batamugonga.

Iki cyapa ni ikigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya aho bagabanya umuvuduko cyangwa bakaba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku mihanda aho kigaragaza aho imodoka zigomba guhagarara by'umwihariko izitwara abagenzi rusange bikorohera n'abakeneye kuzitega kumenya aho bazishakira.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko abagituye bafasha mu mirimo yabo ya buri munsi ,ndetse no mu masaha ya nijoro bakaba bumva batekanye bitewe n'uko aho bari haba habona.

Hano turahabona icyapa kinini kiranga amarembo yinjira mu igororero rya Nyamagabe. Aho hashyirwamo abakoze ibyaha bitandukanye, kugira ngo bagororwe kandi bigishwe n'indi mirimo, bazafungurwe bakora ifitiye igihugu akamaro.

Hano turahabona utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo benshi bakunda by'umwihariko nk'abagiye ku kazi kuba bahagera ku gihe, cyane ko ari buryo bwihuta kandi budahenze.

Kuri iyi nyubako ndende turahabona icyapa kinini, kiriho ibyo kunywa bigaragaza ko harimo ahahariwe gucururizwamo ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibyokurya, kikaba gifasha uwaba ukeneye kuhajya kuhasobanukirwa mu buryo bworoshye.

Hano turahabona umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, aho ahagaze ategereje abagenzi, akaba ari uburyo bufasha benshi mu gihe bakeneye kwihuta cyangwa kugerera aho bajya ku gihe.

Izi ni zimwe mu nganda zikora ibintu bitandukanye, aho zahariwe umwanya zubakwamo mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza ibyotsi biturukamo, kugira ngo byangize ikirere.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu mu binyabiziga bya moto, aho bifasha abakora ingendo zitandukanye by'umwihariko baba abagiye ku kazi bakeneye kuhagera ku gihe ndetse n'abandi, kubera ko bwihuta kandi budahenze.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi n'abagisura bakarushaho kukishimira.

Iki kiraro tubona hano ni icyubatse mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro, aho kiriho umuhanda unyura hejuru y'undi, akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano ku muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara, mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Kano kazu tubona hano ni akashyiriweho abaturage bashobora kwicaramo mu gihe bategereje imodoka zibajyana zitwara abagenzi rusange ndetse n'abakeneye kuruhuka bakaba bashobora kuharuhukira.

Iriya modoka nini cyane tubona muri uyu muhanda ni imwe mu zikora mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyanamo kandi zi bikorohereza abakora ingendo za buri munsi kugera aho bajya mu buryo buboroheye kandi budahenze.

Muri uyu muhanda turabona ahari imirongo y'umweru ndetse harimo n'abari kwambuka. Akaba ari ahagenewe abanyamaguru kugira ngo bifashe n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka nk'uko turi kubibona.

Muri uyu muhanda turahabona amatara ari hagati yawo, aho yerekana igihe gikwiriye cyo kuba abanyamaguru bakwambuka ndetse ibinyabiziga bigahagarara mu gihe hari abari gutambuka, n'abyo bikabona kugenda, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka ndetse n'akavuyo ko mu mihanda.

Hano turahabona ikiraro kinini kikaba cyubatse mu mujyi wa Kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi kaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo myinshi iri hagati aho yerekana umunyamaguru aho agomba kwambukira ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara mugihe hariri gutambuka kugirango birinde impanuka.

Iyi mirongorongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka baca aho babonye hose ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari urimo gutambuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona muri uyu muhanda, aho abanyamaguru bagomba kwambukira byemewe ndetse nk'uko tubibona harimo abari gutambuka, ibinyabiziga bikaba bigomba guhagarara mu gihe hari uri kugenda, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano mu muhanda niyo igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kumenya ko bagomba guhagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda kugira ngo afashe abawukoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara, mu gihe hari abari gutambuka, na bo bakabona kugenda mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bigafasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka murwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwa kuzikora.

Nk'uko tubibona biragaragara ko ari mu masaha ya nijoro ariko ku mihanda hakaba hari amatara, afasha abawugenda, baba abava mu kazi cyangwa se bajya ahantu hatandukanye, kuba bumva batekanye bitewe n'uko haba habona bizeye umutekano wabo.

Ayo matara tubona hano ku muhanda ni afasha abawukoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka, ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka, na bo bakabona kugenda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye ndetse n'akavuyo ko mu mihanda.

Iki kiraro kinini tubona aha, cyubatse mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu rwego rwo kwirinda guca aho babonye, bigafasha abatwara ibinyabiziga kudakora impanuka cyangwa kuziteza.

Iki ni ikiraro cyubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere.

Hano turahabona ikiraro cyubatswe mu mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi kikaba ari kimwe mu bikorwaremezo bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda bigaragaza aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba batabagonga bitewe no kutababona baciye aho babonye hose, bakaba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka.

Iki kiraro kinini cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ndetse kikaba kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iki kiraro kinini tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari ikigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo z'abaturage nk'uko bigaragara; bikaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu; kandi bigafasha n'abagituye mu mirimo bakora buri munsi.

Hano muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru, ikaba igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse tukahabona n'undi muremure, aho ibinyabiziga biba bitagomba kurenga mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwa se kuzikora.

Iki kiraro tubona hano gica hejuru cyubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiririho n'umuhanda unyura ku yindi, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano ni igaragaze aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe aho bifasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bahagararira cyangwa kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda impanuka mu gihe hari uri gutambuka.

Iriya mirongo y'umweru tubona hagati mu muhanda n'igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira ndetse tukabona n'undi muremure abatwaye ibinyabiziga bagomba kutarenga mu mugihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki kiraro kinini tubona aha cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro; aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi; kikba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Hano turahabona ikiraro kikaba cyubatse mu mugi wa Kigali ndetse kikaba kiriho umuhanda uca hejuru y'indi. Akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Iki kiraro kinini tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira. Ndetse tukahabona n'undi muremure abatwara ibinyabiziga batagomba kurenga mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo babe bakwirinda guteza impanuka cyangwa se kuzikora.

Muri uyu muhanda ahagana hepfo turahabona imirongo y'umweru iri hagati, aho igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Aya matara manini tubona hano ku muhanda nafasha abawukoresha, baba abagenda n'amaguru kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka ndetse abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Aya matara tubona hano ni afasha abakoresha umuhanda nk'abanyamaguru, kumenya igihe bagomba kwambukira abatwara ibinyabiziga bagahagarara mu gihe hari uri gutambuka, ndetse bigafasha no mu kurinda impanuka zitandukanye zo mu muhanda n'akavuyo.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse tukabona n'undi muremure abatwara ibinyabiziga bahagararaho, mu gihe hari gutambuka kugira ngo babe bakwirinda kumugonga.

Iyi mirongo tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe kandi turahabona n'undi muremure abatwara ibinyabiziga bagomba kutarenga mu gihe hari uri gutambuka rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira kandi bikorohereza n'abatwara ibinyabiziga guhagarara cyangwa se kugabanya umuvuduko mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo babe batamugonga.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu mugihe hari uri gutambuka kugirango birinde guteza impanuka.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha abatwara ibinyabiziga, kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwa se kuzikora.